Iri torero tureba hano imbere yacu n'itorero abantu bifashisha mu birori, mu bukwe, mu birori bigiye bitandukanye, rigasusurutsa abantu rikabafasha kwishima mu bikorwa bagiye gukora muri ako ka mwanya kandi bigateza imbere n'itorero ndetse n'igihugu.

Umuco gakondo, n'ikintu abantu twe nk'abanyarwanda dukeneye kumenya tukamenya uko ibikoresho bya kera byakoreshwaga n'abakurambere bacu, mu gihe runaka n'icyo gikoresho icyo cyari kimaze niba yari umuheto tukaba tuzi ngo n'uwo kuwurasisha tukagenda tumenya byimbitse icyo babikoreshaga.

Ibikorwaremezo tugenda dukora hirya no hino birimo amasuku, birimo gukora umuganda tugenda dufashwamo n'inzego za Leta arizo polisi, abasirikare cyangwa n'abandi bafite icyo bashinzwe bakadufasha muri iyo mirimo, turabishima kandi biba bisa neza aribyo bizana ubwiyunge ndetse n'amahoro muri rubanda ndetse no mu bantu.

Mu bikorwa remezo byateguwe n'inzego z'umutekano ndetse n'abayobozi bacu, hagomba kubamo inama yegeranya abantu bagahana ibitekerezo ndetse bakungurana n'inama ziberekeza ku iterambere.

Twebwe mu Rwanda hagiye hari amakipe ari mu mikino ndetse na siporo, ayakina agaragaza ubucuti, hari n'akina agaragaza ukuntu babanye ndetse n'andi akina ahatanwa, rero nk'uko tubibona twebwe tugomba kwimakaza umuco wa siporo tukawushyiramo imbaraga tugakuza ubucuti.